Hano birerekana ko ari mu cyumba cy'ubushakashatsi , aho bakorera tesite hameze nka laboratwari y'inzu imeze imeze neza, yubatse neza, iriho amarido. Harimo n'utundi dutebe n'ibyapa byerekana ibyo ari byo.

Ni umuryango urafite ibara ry'icyatsi kibisi, ni umuryango w'ishuri ariko ntabwo nzi niba bakiryigiramo, rirasa n'iryashaje ariko ryari ryiza, ryari ryiza n'ubu ni ryiza cyane ariko ntabwo rishobora kuba ryakoreshwa ubu ng'ubu bitewe n'uko bigaragara nk'aho ari ishuri ryashaje.

Ishuri ririmo ikibaho bazajya bandikaho bakoresheje ingwa, bigaragara ko handitseho kuri icyo kibaho, aho abanyeshuri bigira bakagira ibyo bajya bamenya.

Imodoka, amatara, moto iri mu muhanda wa kaburimbo, hari inzu iri inyuma, hari umwagente uri hirya, hari ibiti, hakurya k'umusozi hari andi mazu.

Abanyeshuri bari mu ishuri bambaye imyenda y'ubururu, mwarimu ahagaze yambaye agakapu mu ijosi, arimo kubakosora ngo arebe amanota bagize, biga ku kigo cyiriho irangi ry'ubururu n'ubusitani.

Hano bigaragara abantu bari, bambaye amataburiya, bisa n'abakora mu ruganda, barasa neza, barimo bakora muri firigo, aho bari bashyize ibintu, bambaye udupfukamanwa, bafite utumuswara twiza cyane, bafite mu ntoki.

Ese simbona bano banyeshuri bariga mu mwaka w'itatu, baricaye ku dutebe ni abo kuri Giyesi bicumbi cyangwa gicumbi, ntango ndimo ndabimenya neza ariko barasa neza. Barambayeyo impunzankano yabo bo barasa neza.

Abantu barimo barerekana uko abantu bashobora gukoresha imirasire y'izuba, bayibyazamo amashanyarazi, bakaba bacakinga amatelefone bagacana amatara. Ni itsinda ry'abagabo batatu barimo barishimye nta kibazo na kimwe.

Umukobwa uri kuri raputopu cyangwa se mashine mudasobwa, arimo arajya ashushanya ibintu bitandukanye bakoresha.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bicometseho telefone mashine n'utundi tuntu, biri gukoreshwa n'umuntu wambaye umupira w'ubururu bwererutse n'isaha.

Uyu munyeshuri ari guperezanta, arerekana ibyo yize, yambaye amasogisi y'umweru, imbere hari n'amazi akoresha banywa. Ni byiza cyane

Abanyeshuri biga umuziki, bambaye amashati y'umweru n'amajipo y'ubururu. Barimo bararirimba ndetse iruhande hari n'abandi barimo barabacurangira, n'ababateze amatwi bumva uko baririmba.

Inzu imeze neza cyane, iteyemo amarangi ajya gusa umuhondo, irimo ikibaho bigaragara ko ari ishuri hari n'abanyeshuri, barimo ndetse n'abarimu bari kwigisha abo banyeshuri.